Ivomero aho abaturage bagiye batandukanye bari mu bikorwa, hari umubyeyi uri koza umwana we, ahandi ku ruhande hari umwana uri kuvoma amazi ndetse urundi ruhande hariho umubyeyi ndetse n'umwana we na bo baje kuba bavoma ama...

Ababyeyi ndetse n'abakobwa bari hamwe, bari kubyina imbyino gakondo ya kinyarwanda, bigaragara ko bishimye, bizihiwe, bari mu nyubako irimo intebe, ameza, ndetse n'imitako igiye imanitse ku nkuta.

Umubyeyi w'umumama wishimye wambaye umwenda w'umweru, ateruye umwana mutoya nawe wishimye, umwana uri mu kigero gito utaratangira kumera amenyo.

Umubyeyi w'umukecuru, utetse ku mashyiga, yicayeho inkono ye, ku ruhande rwe hateretse igikombe, ndetse n'umufuniko imbere y'inzu yiwe, arishimye ari kumwenyura mu nkengero z'urugo rwe hateye insina.

Ababyeyi b'abamama bambaye ibitenge, ababyeyi bicaye imbere y'inyanya ziri mu bintu babitetsemo, inyuma hari izindi mbuto zigiye zitandukanye bari kuganira.

Ababyeyi basheshe akanguhe bakenyeye imikenyero, bambaye imipira yiganje mu ibara ry'umutuku, bafashe utubando twabo basokoje uruhanika, abandi biteza ibitambaro, bari kugenda mu muhanda w'ibitaka ku nkengero hagiye hateye insina, hari amazu, hari ibiti, inyuma yaho hari urubyiruko na rwo ruri gutandumbukana na bo bagenda.

Icyumba bashyiramo abana bavuka igihe kitageze cyangwa se bafite ibindi bibazo by'ubuzima, aho babashyiramo bakamaramo igihe runaka bari mu byuma bibafasha kuba bagira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byo kwa muganga bigezweho byifashishwa mu kuvura amaso, uruhande rumwe ni aho umurwayi yicara, urundi ruhande aho muganga yicara. Icyuma cyifashishwa umurwayi arebamo bapima amaso ye ko abona neza.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho byifashishwa mu gihe bakusanyije amaraso yatanzwe n'abaturage bagiye batandukanye kugira ngo ahabwe abarwayi, icyumba kirimo aho batereka ayo maraso kugira ngo akonjeshwe akomeze ari mazima kugeza igihe bazayaterera umurwayi.

Abakinnyi bari mu kibuga, umwe aryamye hasi ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze, abandi bakinnyi bahagaze bareba uko biri gukorwa, ari kubuhabwa n'umugore ndetse n'umugabo.

Icyumba cy'ubuvuzi kibamo imashini ibasha kuba yareba indani mu mubiri w'umuntu, aho kigizwe n'ibice bibiri aho umuntu aryama ndetse n'aho bamushyira, hakaba hagira ibyuma bimusuzumamo bimwe mu bice by'umubiri kugira ngo babashe gutahura indwara.

Umukobwa uri kunywa amazi, apfumuye amatwi, yabize ibyuya byinshi asa nk'umuntu uvuye muri siporo, yambaye agapira ko hejuru kadafite amaboko, afite igitambaro cyo kwihanagura ku rutugu.

Amavuta ari mu gacupa gacuramye k'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo, akozwe mu kimera cya rowero amavuta yifashishwa ku ruhu atuma uruhu rusa neza rukamera neza.

Imineke, inanasi, indabo ndetse na bimwe mu bikoreshwa cyangwa se ibintu abantu bifashisha, bifunze mu bubiko bwabyo, bigiye bifite, bigiye birutanwa bitewe n'ingano yabyo.